Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye mu isoko, ubona ko higanjemo abamotari batwara abagenzi, amamodoka ndetse n'abacuruzi ba mitiyu.

Inzu z'ubucuruzi zubatse mu santere imwe, izi nzu zikaba zikorerwamo ibikorwa bitandukanye, hari inzu bakoreramo ibikorwa byo gusuka imisatsi, hari n'inzu itangirwamo serivisi z'irembo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwa fanta ndetse na ji zo mu bwoko bwa kokakora, urabona ko iyi nzu icururizwamo n'amandazi.

Mu isoko ricuruzwamo imyenda yo kwambara, muri iyo myenda higanjemo imyenda y'imbeho nk'imipira y'ingofero, amapantaro, ibiringiti byo kwitera mu buriri nibindi byinshi.

Iduka ricuruza imyambaro yambarwa n'abantu batandukanye, ubona ko higanjemo amapantaro y'amakoboyi, ndetse n'amashati aciye amaboko.

Inzu y'ubucuruzi by'umwihariko yakirirwamo abashyitsi batandukanye. Bakaba bashobora kuhabona amacumbi yo kuraramo, ibyo kurya, amazi yo gukaraba, n'ibindi bitandukanye.

Inzu yakirirwagamo abashyitsi batandukanye, baturutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'abaturutse hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, iyo nzu ikaba ibamo ibintu banywa n'ibyo barya, ndetse n'amacumbi yo kuraramo.

Imyenda yasutswe kuri shitingi, ikaba iri gucururizwa iruhande rw'umuhanda. Iyo myenda ikaba yiganjemo imyambaro yambarwa n'abadamu ndetse n'abakobwa.

Abantu batandukanye bari kwambukiranya mu muhanda wa kaburimbo bari kwerekeza mu nzu ndende cyane, iyo nzu ikaba ikorerwamo n'amabanki harimo nka banki y'abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.